Iyo muri mu nama muri abayobozi buri muyobozi wese afite inshingano zo kwita kuri mudasobwa ye, kugira agumye abone uko yandika buri kimwe cyose kivuzwe ariko akibuka no kunywa ku mazi kugira ngo ataza gusinzira mu nama.

Ubundi gusangira n'umwe mu mico yahoze iranga abanyarwanda kuva na kera na kare, niyo mpamvu usanga iyo ahantu habaye nk'inama runaka abanyarwanda bagera aho bakagira akanya bagasangira bakica akanyota bakamanura akavumbi.

Abayobozi benshi barubahana hagati yabo, kuko usanga iyo bari mu biganiro nta muyobozi ushobora gupfobya igitekerezo cya mugenzi we. Ahubwo ashaka ku buryo ki yashaka ikindi gitekerezo kicyunganira, bityo ibiganiro no guhana ibitekerezo bikagenda neza.

Abayobozi bafatanyije n'abaturage nizo nkingi za mwamba mu rwego rwo guteza imbere igihugu, niyo mpamvu usanga bose bagerageza gushyira hamwe ariko bigahera mu bayobozi, bagatangira bubaka ubwumvikane hagati yabo.

Hari igihe biba ngombwa ko iyo muhuriye hamwe mu itsinda muri gukora nk'ubushakashatsi ku kintu runaka bamwe na bamwe bagenda bakoresha telefone zabo abandi bagakoresha mudasobwa abandi bakabasha kwandika ibivuye muri ubwo bushakashatsi mwakoze.

Iyo umuyobozi afashe umwanya ngo agire icyo abwira abantu usanga buri umwe wese yamuteze amatwi kandi agomba kwita ku byo uwo muyobozi avuga ngo yumve niba hari ubutumwa bumugenewe bityo abufate kandi abushyire ku mutima azabashe kuwukurikiza.

Iyo abantu bari bateraniye mu nama basoje inama, ni ngombwa ko bafata umwanya bagafata ifoto y'urwibutso kugira ngo igihe cyose bibaye ngombwa bagakenera iyo foto buri umwe azayereka undi cyangwa se bigaragare ko buri umwe yari ahari.

Hari ibikorwa byinshi ndetse by'igihugu bigenda birushaho guhuriza Abanyarwanda hamwe bakabasha kwinigura bakavuga ibintu uko babyumva. Urugero iyo hari nk'inama y'imushyikirano cyangwa se ari nk'inama umuyobozi w'akarere yaje Abanyarwanda bavuga ibintu uko babyumva.

Mu myaka yo hambere wasangaga igitsina gore gikunda guhezwa kigasigazwa inyuma, ariko ubu byamaze kugaragara ko nabo bashobora kujya imbere y'abantu bakavuga ndetse bakigisha bakabwiriza na bagenzi babo niyo mpamvu ari ngombwa ko nabo bahabwa ijambo.

Abayobozi b'umujyi wa kigali bafata iya mbere mu gushishikariza abaturage bawo ndetse n'abawugenda, kugira uruhare mu gusukura kigali kubera ko ariwo murwa mukuru w'igihugu bityo ugenwa n'abantu benshi buri wese aba agomba kugira uruhare mu misukurire yawo.

Abantu akenshi bakunze kugira ibikorwa bibahuza aho usanga bateraniye rimwe bari uruvunganzoka ugasanga buri umwe ahugijwe kandi arajwe ishinga no kureba kimwe mu byabagejeje ahongaho no kumva itangazo nyamukuru cyangwa se ijambo nyamukuru.

Abayobozi benshi bateranira hamwe mu rwego rwo kugira ngo banoze intego zabo, zo gutanga serivisi nziza ndetse n'imikorere myiza inoze, bahereza abayoborwa kugira ngo n'abayoborwa babashe kunyugurwa nabyo.

Iyo abayobozi runaka bari kwiga ku mushinga runaka by'umwihariko hari umuntu ubakuriye uri imbere yabo, hageragezwa gufatwa ifoto y'urwibutso kugira ngo ibashe gutanga raporo binagaragaze abandi ko bahuye kandi bagahurira hamwe.

Igihe cyose urimo utanga igitekerezo uba ufite n'inshingano zo kubaha ibitekerezo by'abandi wanabivuguruza ukabivuguruza mu buryo bwiza, ku buryo bidatuma abandi biyumva nkaho badashoboye bityo bikabatera kurakara cyangwa se bakagufata nabi.

Mu Rwanda hari gahunda nyinshi zigamije kwereka umugore ko afite ubushobozi kandi afite byinshi ashobora gufasha umuryango mugari w'abanyarwanda binyuze muri siporo cyangwa mu zindi nyigisho runaka bityo nawe agatanga uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza.

Ubukangurambaga bumwe na bumwe iyo bugiye kuba, usanga bukunda guhuriza abantu hamwe, bakitabaza ibikoresho by'umuziki kabuhariwe, kugira ngo ijwi rirusheho kugera kuri buri umwe, kandi mu buryo butagoye uvuga.

Iyo umuyobozi ari gutanga ikiganiro aba agomba kwifashisha ibikoresho ndangururamajwi igihe cyose arimo abwira imbaga y'abantu benshi kugira ngo ubutumwa atanga bugere kuri buri umwe kandi mu buryo butamugoye cyane.

Hakozwe inama mu mudugudu bari batuyemo, bagenda bagaragaza ko bagiye gukaza irondo, bakagerageza kugabanya ubujura bwaberaga muri uwo mudugudu, kubera ko iyo ni imyanzuro yafatiwe mu nama, ubwo gitifu w'akagari kabo yabasuraga.

Uko byagenda kose abayobozi mu buzima bwabo bakunda kunywa amazi kubera ko abafasha kurwanya umunaniro mu kazi kabo ka buri munsi, niyo mpamvu usanga bakenera kuyakoresha kugira ngo bifashe banirinde izindi ndwara zitandukanye.

Ntabwo ari buri wese ufite uburenganzira bwo gufotora umuntu byumwihariko umuyobozi igihe cyose bari mu ruhame kubera ko ifoto yumuntu ni ikintu gikomeye gishobora gukoreshwa mu buryo bwiza cyangwa se butari bwiza bityo bikangiza akazi ke.

Minisiteri zitandukanye akenshi zikora inama zigakangura bamwe mu bakozi bazo gutanga serivisi nziza zinogeye abaturage kugira ngo abaturage bajye bagabanya kwinubira serivisi bahabwa bityo bakiga no gukorera ku gihe.

Ubungubu hari gahunda yo guteza imbere isuku muri Kigali, aho usanga barwanya pulasitike cyangwa se ibindi bintu bitabora kugira ngo Kigali ime ise neza, abantu bose bakaba bagomba kugira isuku ndetse bakita ku bidukikije.

Akenshi na kenshi abaturage iyo batonze imirongo bakunda kwinubira ko serivisi zitari kugenda neza, kubera ko ngo ziba zigenda gake, ariko na none iyo ukoze ubushishozi ukareba neza, usanga ikibazo ari uko bo baba ari benshi bityo gutegereza bikabarambira.

Akenshi na kenshi mu nama zahuje abayobozi, usanga bamwe na bamwe bananiwe, abandi ugasanga barimo barasinzira, bitewe n'uko bari gushyira umutima ku kiganiro bari guhabwa n'umuyobozi runaka ubakuriye, bakarushaho gufatiranya gushaka ibisubizo.

Umuyobozi w'umurenge wacu igihe cyose akoresheje inama asanga twubatse aho turi buze kwikinga izuba mu gihe cyose duteze amatwi inyigisho ze nziza kandi zubaka niyo mpamvu usanga amatelefone twese twayafunze.

Iyo abayobozi runaka bari mu nama kubera ko bicara umwanya muremure baganira ku ngingo cyangwa se ikibazo runaka, ni byiza ko bahabwa amazi mu rwego rwo kurwanya ibitotsi cyangwa se umunaniro wa hato na hato.

Abayobozi bose iyo bari mu nama baba bafite umuco wo kuzuzanya kandi ugasanga buri umwe arubaha igitekerezo cya mugenzi we kugira ngo hataza kuvuka kutumvikana hagati yabo bityo ugasanga amahoro arakomeza gusagamba.

Iyo abayobozi b'ikigo runaka bahuriye mu nama bakamaramo umwanya muremure bibatera kunanirwa n'u bwose bitabaza amazi ariko iyo ubarebye ubona bose bafite umunaniro bityo bikaba biba ngombwa yuko babahereza akaruhuko gato kugira buri umwe wese agarure ubuyanja.

Kubera ko ikiganiro yatangaga cyari ikiganiro cyiza kivuga ku bijyanye na mituweri abantu bose bari bicaye bamuteze amatwi kandi ugasanga aho bibaye ngombwa ko baseka baraseka ukabona ko ari ibintu bishimishije .

Umujyi wa kigali bitewe n'uko ibikorwa by'iterambere byinshi ariho biboneka, usanga hari inyubako zabugenewe zikorerwamo inama cyangwa se ibindi biganiro runaka igihe cyose abayobozi bakeneye kugira ingingo runaka baganiraho.

Iyo hari ikibazo cyugarije umuryango mugari w'abantu usanga abayobozi bo bikoranya bakajya inama bagateranira hamwe bakarushaho kugishakira umuti buri umwe akagenda yandika kandi agatanga igitekerezo cye agatanga n'uko abyumva.

Abakozi ba leta ni bamwe mu bafata iya mbere mu gutanga serivisi nziza, kubera ko usanga buri gihe iyo hari ikitagenda bihuza bagakora inama yewe bagakosora na bagenzi babo kugira ngo serivisi zitangwe neza.

Iyo umuyobozi ahawe ijambo igihe cyose muri mu nama uba ugomba gutuza ugatega amatwi igitekerezo cye ukumva ubutumwa nyamukuru ashaka kurasaho ukagenda wandika buri kimwe kugira ngo nugire ikibazo uze kumubaza.

Akimara kugera ahari hateraniye inama yahurizaga hamwe abayobozi nawe yaricaye yifatanya n'abandi, gusa abanza gusaba imbabazi zo kuba yakererewe baramubabarira, bamubwira aho bari bageze nawe akomezanya na bo batanga ibitekerezo.

Ahantu henshi hahuriye abantu batandukanye, usanga buri umwe wese afite icyangombwa cyanditseho izina rye kimuranga, aho usanga kimuteretse imbere kugira ngo hataza kubamo urujijo, bityo abamureba bakamwibeshyaho bibaza amazina ye.

Usanga bigaragaza ishusho nziza iyo abayobozi bicaye hamwe ku meza basangira barushaho kujya inama barebera hamwe icyateza imbere abanyarwanda kandi bakarushaho no gushaka umuti w'ikibazo cyagaragaye.

Abayobozi benshi mu nama zabahuje n'abandi bayobozi usanga bafite mudasobwa kandi bakurikiye neza ba iri gusobanurwa n'umuyobozi mukuru uri kubagezaho ikiganiro ,abenshi ugasanga barandika inyandikomvugo z'iyo nama.

Yahawe amahirwe yo gutembera mu bihugu by'amahanga nyuma y'uko yegukanye igihembo cy'umuntu umwe witwaye neza akagihabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amajyambere, ariko yavuze yuko ari ibintu byamushimishije ku rwego rwo hejuru.

Iyo abanyeshuri bicaye bashyira hamwe mu ishuri bakoresha mudasobwa zabo, bibafasha kwita ku isomo runaka bagiye kwiga, bityo imitsindire n'imyumvire yabo ikagerageza kuzamuka ku kigero kiri hejuru.

Polisi nyuma yo gusanga serivise ziboneka ku rubuga irembo zidahagije, yahise ifata icyemezo cyo kwagura serivise itanga kandi ihitamo no kumanura ikiguzi cya serivise kugira zibashe gukoreshwa n'abantu benshi kubwishi igihe gito.

Kubera ko abaturage batari bishimiye urwego rw'itumanaho, Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kuhazana umunara, barawuhashyira, nuko itumanaho rijya ku rundi rwego, abaturage barishima, barushaho gusingiza Leta kuko yabakoreye ibyiza.

Mu rwego rwo kwihutisha imitangire myiza ya serivisi ,usanga abakozi ba leta rimwe na rimwe, bakoresha mudasobwa cyangwa bagakoresha telefoni zabo ngendanwa bityo bakarushaho kwandika cyangwa se kwimura abaturage mu byiciro bitandukanye barimo.

Bitewe n'uko uburinganire bwaje gutezwa imbere mu Rwanda, ubu n'abagore basigaye bayobora, bakigisha inyigisho zigiye zitandukanye, aho usanga batanga ibiganiro muri gahunda zagerageza guhindura rubanda nyamwinshi kandi abantu bakabatega amatwi.

Serivise zitangirwa ku rubuga irembo, ni serivisi zihuta cyane, kubera ko hatabaho ikibazo cyo gutonda umurongo ku bakeneye serivise, ahubwo buri umwe wese arabyikorera ku giti ke, akagena igihe abikorera.

Ikibazo cy'itumanaho cyarakemutse kubera ko iminara yagizwe myinshi mu gice batuyemo bityo impuzanzira zikaboneka, ubungubu bitandukanye no mu myaka yashize kuko kera nta minara yabagaho yafashaga mu buryo bw'itumanaho.

Igihe cyose ukeneye serivisi z'amabanki cyangwa se iz'ibindi bigo by'imari ukagera ahantu mu mujyi hakorera umwe mu bakozi b'izo banki uba ufite uburenganzira bwo kumubaza akakuyobora cyangwa akagufasha kubona zimwe muri izo serivisi zitangwa n'ibyo bigo by'imari.

Ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda aragibi, igihe cyose cyatangaje itangazo ni itangazo rigomba gushyirwa mu bikorwa kandi vuba, kuko biba bireba buri munyarwanda wese kandi binamufitiye inyungu, niyo mpamvu buri wese biba bimureba kandi akabigira ibye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda, gifite ubushobozi bwo gutanga itangazo rikagera ku muntu uwo ari we wese, yaba yumva ikinyarwanda cyangwa se atacyumva kubera yuko bagerageza kubitanga mu ndimi zitandukanye nk'icyongereza n'ikinyarwanda ndetse n'igifaransa.

Nyuma y'uko bigaragaye ko ari ikibazo gusanga abantu bajya gusaba serivise za polisi ku byicaro bikuru bya polisi, polisi y'igihugu cy'u Rwanda yahisemo kwegereza serivisi abaturage, aho yabishyize ku rubuga rw'irembo, ku buryo umuntu ashobora kujya kwaka serivise bitamugoye.

Urwego rwa polisi rwasanze ari ibyingenzi gushyira zimwe muri serivisi rutanga ku rubuga rwitwa irembo, aho umuturage azikeneye ashobora kuzisanga kandi akazibona ku buryo butamugoye akarushaho kuzikoresha.

Abantu benshi ntabwo bari bazi ko hajya habaho igihe cyo gushimira abantu bitwaye neza mu bijyanye no gusora ariko bamaze kumenya ko bibaho ibyo bintu, bafashe icyemezo cyo kujya basora neza bityo n'abo bakazabasha gutsindira ibihembo bitangwa n'urwego rushinzwe imisoro.

Mu Rwanda umuntu wese wishyura imisoro kubera ko abakora ibikorwa bibyara inyungu, hakubiyemo ubucuruzi, aba agomba kwishyura imisoro kandi akanimenyekanisha ku bushake ku gihe, kugira ngo yirinde amande ashobora kuzacibwa akubiyemo n'ibindi bihano.

Ikoranabuhanga rigenda rirushaho gutezwa imbere mu Rwanda, aho usanga abantu bashobora kwisabira serivisi ndetse bagakora n'ibikorwa byabagenewe banyuze ku rubuga rwitwa irembo, hari uburyo bwaje bushya bwitwa mbyikorere aho usanga umuntu ashobora kwisabira izo serivisi bitamugoye.

Ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda, iyo ari itariki ya nyuma kirabimenyesha; kikamenyesha abasora bose ko bagomba kwishyura, mu rwego rwo kugira ngo birinde kuzacibwa amande bitarenze uwo munsi cyagaragarijeho ko ariwo munsi wa nyuma.

Ibigo by'imari bitandukanye nk'amabanki, usanga biharanira gutanga serivisi zinoze, aho usanga mu duce twinshi tw'imijyi dutandukanye bagenda bashyiramo abakozi babo, kugira ngo babashe gutanga serivisi zinoze.

Nuuma y'uko hasanzwe abacuruzi benshi batarakoreshaga gahunda ya leta yo gutanga inyemezabwishyu, haje gahunda yo kujya bakoresha ikoranabuhanga rya mudasobwa bagatanga inyemezabwishyu binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo batanyereza imisoro.

Mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi zinoze ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro cyagerageje gushyira gahunda zacyo kuri murandasi mu gihe cyose umuntu wese akeneye kwishyura cyangwa se kumenyekanisha imisoro, aragenda akinjiramo akabikora bitamugoye.

Iyo inzu runaka zabugenewe by'umwihariko izikorerwamo inama hatarimo abantu usanga zidasa neza kubera ko ziba zaragenewe gukorerwamo ariko iyo harimo abantu usanga bisa neza bifite isura kuko intebe ziba zitambaye ubusa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, cyagerageje kwegereza serivisi zacyo abaturage aho usanga cyarabishyize no mu buryo bw'ikoranabuhanga, ku buryo igihe cyose ushatse kumenyekanisha imisoro, ukanda kuri telefone yawe byose bikikora.

Kugira ngo uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda abashe gufashwa, asabwa kuba afite icyemezo kibigaragaza kandi kigaragaza ko atishoboye, iyo amaze kugaragaza icyo cyemezo ahabwa ubufasha agahabwa n'ubushobozi.

Uko u Rwanda rugenda rutera imbere niko hagenda harushaho kwegerezwa mudasobwa mu baturage, ndetse na serivisi nziza zikabasha gutangwa ku buryo bunoze, aho bitakiri ngombwa ko umuntu yandikisha ikaramu, ahubwo abantu bose agiye kwandika abandika muri mudasobwa.

Mu rwanda ibintu byose byashyizwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho no gusaba icyangombwa ukuye ku irembo ugomba kugenda ukacyisabira ku giti cyawe binyuze muri gahunda ya mbyikorere. Bityo ntabwo ari ngombwa ko ujya kwaka serivisi zo ushaka aho zigomba gutangirwa.

Ahantu hose utembereye mu gihugu cy'u Rwanda uhasanga iminara, kugira ngo ibikorwa by'itumanaho mu gihugu hose, hagati y'abantu barenze umwe byorohe kandi bikorwe ku buryo bwihuse; bityo amakuru ugasanga araboneka kandi akabonekera ku gihe.

Bamugiriye inama ko na we agomba kwihugura, akagira ubumenyi bwimbitse ku mikoreshereze y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bityo akajya atanga serivisi nziza na we agafatanya na leta cyane ko inzu akoreramo iyobokwa n'abantu benshi.

Ku mazu menshi atandukanye by'umwihariko mu mujyi wa Kigali usanga hariho iminara ibafasha kugenda babona ibijyanye na rezo cyangwa se impuzanzira, abantu benshi rero bakabikoresha mu buryo bwo gutumanaho.

Gusaba akazi ntabwo akiri amatangazo akunda gucishwa kuri radiyo iyo hari umwanya runaka hari imbuga zabugenewe z'ikoranabuhanga, aho abantu bahurira bakagenda bagashyiramo imyirondoro yabo bakabasha gusaba akazi biboroheye.

Akenshi na kenshi usanga minisiteri y'ubuzima igerageza gutanga serivisi zinoze kugira ngo abayigana barusheho kunyurwa nazo, aho usanga akenshi bagerageza gutanga ibyangombwa cyangwa se bakagusobanurira muri serivisi ukeneye.

Igihe cyose biba ari ngombwa kubanza ukiyandikisha kuko ntabwo wakwemererwa kuba umunyamuryango w'ikigo runaka utarabanje kwiyandikisha byaba ari ukwiyandikisha muri sosiyete zishinzwe gutanga serivisi zo kwishingira ibihingwa cyangwa se ibindi bintu ibyo aribyo byose uba ugomba kubanza kwiyandikisha.

Uko iminsi igenda isimburanwa havaho umwe hajyaho undi, niko umuriro w'amashanyarazi ugenda urushaho gukwirakwizwa ahantu abantu bose bagiye batuye, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kubaho bwiza hifashishijwe imiyoboro migari.

Leta y'u Rwanda yahisemo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi nk'igikorwa cyo gutanga serivisi nziza ku baturage, bityo ihitamo kugenda itanga umuriro muri buri mudugudu wo mu Rwanda, kandi ishyiraho n'intego zo kuzawugezaho utaragera mu gihe cya bugufi.

Amafaranga yahawe mu ngurane bitewe n'uko imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi yari yaciye mu isambu ye yayakoresheje aguramo amatungo nuko bimufasha kwiteza imbere kubera ko yagurishagayo matungo akajyana abana ku ishuri.

Birabujijwe kwegera ahari ihuriro ry'umuriro w'amashanyarazi wigaburira agace runaka kuki iyo wegerewe aho hantu hari moteri ushobora gushya bityo ubuzima bwawe bukangirika si byiza kuhegera cyangwa kubi kubaganya ibyo byuma.

Hatitawe ko hamwe na hamwe ari ku ngo z'abantu cyangwa ku bigo bikomeye, polisi y'u Rwanda igerageza gushyira ibyapa ahantu hose bigaragara haba ari ku rugo rw'umuntu cyangwa se ahandi ku kigo gikomeye, kugira ngo umuntu wese ukoresha umuhanda awukoreshe mu buryo bunoze.

Imiyoboro itwara amashanyarazi iba igomba kwigizwa hejuru kugira ngo igihe cyose igiti cyiyegereye gikuze kitazabasha kwegera aho iyo miyoboro igera, kuko iyo kibashije kuhagera usanga cyangirije kuko iyo gitemwe kiragwira kikagwira insinga.

Abanyarwanda bose muri rusange basobanukiwe ko ari iby'ingenzi kubungabunga insinga zitwara imiriro y'amashanyarazi, ziwukura mu gace kamwe, ziwujyana mu kandi, kubera ko ari inyungu rusange kandi bikaba bifasha buri umwe wese.

Abanyarwanda aho bava bakagera bamaze gusobanukirwa ko ibikorwa by'umuriro w'amashanyarazi iyo ubashije kubyegera ukabikubaganya bishobora kukuviramo urupfu, usanga abanyarwanda benshi birinda kwegera aho ibikorwa bihurira kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo.

Abashinzwe umuriro w'amashanyarazi iyo barimo bashinga imiyoboro yawo bagerageza kuyigiza hejuru ku buryo nta muntu wabasha kuwegera cyangwa se ngo akore ku nsinga z'umuriro w'amashanyarazi bimworoheye, bityo umutekano wa muntu ugasigasirwa,

Abafundi bakora akazi katoroshye kandi gasaba ubwitange kuko ntabwo ari buri umwe wese washobora kujya hejuru y'inzu cyangwa se y'inyubako runaka bityo ngo akomerezeho imirimo y'ubwubatsi kuko igihe runaka hashobora kuba impanuka nawe ukagwa.

Bitewe nuko hejuru y'inzu ye hanyuraga imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi, bamubujie kubaka inzu ndende kugira ngo atazabangamira iyo miyoboro, bityo agace atuyemo kose kakabura umuririo, bityo bakajya mu icuraburindi.

Iyo anyuze ahanyura imiriro y'amashanyarazi, aritwararika akabuza n'abandi benshi bagerageje kwegama ku miyoboro yayo kugira ngo batagira ibyo bangiza bityo bikabaviramo impanuka zabakururira n'urupfu kandi bitari ngombwa.

Kirazira kikaziririzwa kwangiza ibikorwaremezo bikubiyemo imiriro y'amashanyarazi, kuko izo nzira z'imiriro y'amashanyarazi, ni zo zituma abanyarwanda benshi babasha kugira uburenganzira ku mikoreshereze y'amashanyarazi, aho batuye.

Yahise afata ingamba zo gukora ubukangurambaga mu bijyanye no kubungabunga imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi nyuma y'uko umuyoboro wanyuraga ku rugo rwe waje kwangizwa n'abantu barwaniye iruhande rwabo bikabakurura impanuka .

bitewe n'uko ahantu hatuwe n'abantu benshi, utabona umwanya wo kugira igikorwa kimwe wubaka ahantu ngo kibe kihagaze ukwacyo, usanga imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ingo z'abantu bisa naho bituranye.

Hagamijwe gutezi imbere ndetse no gusukura umujyi usanga inyubako zishaje cyangwa se izisa n'izishaje zose zigerageza kuvugururwa kugirango umujyi ukomeze use neza kandi ugaragaze isuku.

Abamotari n'abandi bakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu mu muhanda, baba bagomba kwitonda kugira ngo batabangamira urujya n'uruza ndetse n'imikoreshereze y'umuhanda, ugasanga abanyamaguru babirenganiyemo cyangwa se abanyamagare bakabirenganiramo.

Igihe cyose abakozi babishinzwe bari kugerageza gushinga ibyuma bishinzwe gutwara umuriro w'amashanyarazi, baba bagomba kwigiza hejuru insinga zawo, kugira ngo bitazakurura impanuka za hato na hato bityo bigatwika abaturage.

Abantu bakunze kwitwararika cyangwa se bakagenda bitegereza imiyoboro y'amashanyarazi kugira ngo barusheho kureba niba nta kintu icyo ari cyo cyose kiri kuyibangamira kuko byose usanga bikora ku nyungu za rusange n'umwe birobanuye.

Bitewe n'uko mu isambu ye banyujijemo ibikorwa by'umuriro w'amashanyarazi, Leta yagerageje kumuha ingurane y'ubutaka kubera ko atari yemerewe kongera kuhahinga, iyo ngurane ayikoresha aguramo inka yo kumufasha kwiteza imbere mu kindi gihe kizaza.

Kera tukiri abana byaratugoraga kwiyumvisha ko iminara itwara insinga z'amashanyarazi idakora ku ijuru kubera ko twabonaga ijya kwegeraho ariko uko tugenda dukura twabashije gusobanukirwa ukuri tubona ko ari ibyo twibeshyaga.

Iyo mu isambu y'umuntu hanyuzemo ibikorwa by'umuriro w'amashanyarazi bakahashinga imwe mu miyoboro migari, umuntu babasha kumuha ingurane y'ubutaka, agahabwa amafaranga babariye ku igenagaciro ry'ubutaka rihari muri icyo gihe.

Bitewe n'uko ubuzima bw'umuntu bugomba gushyirwa imbere, ubu ngubu mu gihugu hose buri bitaro biba bifite imbangukiragutabara nibura irenze imwe, kugira ngo igihe cyose umuntu akeneye kugera ku bitaro bikuru abashe kubona imbagukiragutabara imugezeyo ku buryo bworoshye,

Ntabwo ari inzego z'abikorera gusa zitanga serivise kandi zikazitangira ahantu haboneye kubera ko na leta igerageza gutangira serivisi zayo ahantu henshi kandi hasa neza kugira ngo inyure ababagana ibahe serivise nziza.

Ahatangirwa serivisi zihabwa abaturage muri rusange nko kwa muganga, cyangwa se ku murenge ni ahantu usanga hafite imbuga ngari, abantu bicaramo bategereje, cyangwa se hari abakeneye kota akazuba bakicaramo niyo mpamvu hagomba kugirirwa isuku.

Byabaye ngombwa ko hifashishwa imbangukiragutabara kugira ngo bamugeze ku bitaro vuba, kubera ko uburwayi bwe bwari bwamaze kugera ku rwego rwo hejuru, bigaragara ko bamurangaranye bishobora kuvukiramo urupfu kandi rutunguranye atagejejwe ku bitaro.

Ahantu hahurira abantu benshi by'umwihariko mu bitaro hagomba kuba hari umwanya wabugenewe guhagararwamo n'imodoka zizwi nk'ingobyi z'abarwayi ndetse hakaba n'undi mwanya uhagararirwamozi n'izindi modoka z'abikorera ku giti cyabo.

Akenshi na kenshi usanga ku bitaro by'umwihariko ibirwariramo abantu bakamaramo igihe, hari abantu benshi baza kuhashaka serivisi zitandukanye ariko ugasanga bagerageza no kugemurira ibyo kurya abaharwariye, kubera ko ibyo leta itanga bibafasha mu gihe gito.

Bikomeje kuba ikibazo kubera ko usanga abayobozi benshi bafatanya gushakira hamwe igisubizo cy'uburyo harwanywa gutonda umurongo igihe cyose abantu runaka bari gusaba serivise, ahubwo byose bigashyirwa kuri murandasi bikaboneka gake gutonda imirongo.

Ku bigo by'amashuri cyangwa se kwa muganga, usanga barafashe ahantu hamwe na hamwe bakahagira nk'inzira nyabagendwa, bakahasakarira kugira ngo abarwayi cyangwa se abandi bantu batandukanye, igihe bahanyura bibafasha kwirinda izuba.

Ahenshi mu bitaro mu Rwanda usanga haragiye hashyirwaho inzira zisakariye, kugira ngo abantu banyuremo babasha kugama akazuba, cyangwa se igihe cy'imvura serivie zibahabwa ntizigahagarare. Ni yo mpamvu usanga ku bigo by'amashuri no ku bitaro baragerageje kuhasakara.

Igihe cyose uburwayi bw'umuntu bunaniranye ku rwego rw'ibitaro bito usanga bafata icyemezo cyo kumwoherereza ku bitaro bikuru byitiriwe umwami fayisari, bityo agahabwa ubuvuzi bwigiye hejuru kugira ngo atavaho akabura ubuzima.

Iyo umuntu asezerewe mu bitaro aba agomba guhabwa akanya akagira aho yicara ariko ugasanga aho hantu yicaye hamurinda izuba akabanza gutegereza cyangwa se abantu baza kumureba bakagira aho bamusanga ku buryo bw'umutekano we.

Bamubwiye ko igihe cyose yubatse inzu ateganya kuzayikodesha ibigo byikorera kandi bitanga serivisi, agomba kuzasigaho umwanya imbere hagomba kuzajya hahagararwa n'ibinyabiziga by'abakozi bakora aho ngaho igihe cyose batanga serivisi.

Akenshi na kenshi usanga ahantu hari inyubako zagenewe gutangirwamo serivisi zifasha abantu hari ahantu haba hasakaye ku buryo iyo igihe cyose hagizwe n’abo bantu babasha kuwugamamo akazuba, ariko ugasanga n’imbere yaho hari umwanya bashobora guhagarikamo imodoka zabo.

Ni byiza ko habaho imyambaro yagenewe imfungwa kubera ko bibafasha kubatandukanya n'abantu rusange, bityo ukaba ari umwambaro wabo ubaranga mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo rero baba bagomba gutandukanywa n'abandi bantu bo mu buzima busanzwe.

Ifoto y'umuyobozi runaka ni ikintu cyubashywe cyane bitewe n'uburyo usanga abantu benshi bayikoresha mu buryo butari bwiza bamwe bakayikoresha bamusebya, abandi bakayikoresha bayihererekanya mu buryo butari bwiza, niyo mpamvu iba igomba kubahwa ikagirirwa n'ibanga.

Imfungwa n'abagororwa ntabwo ari kenshi bakunze kwemererwa gusohoka amagororero baba bakunze kuba barimo, kuko haba hateganywa ko akenshi bashobora gutoroka kandi igihano cyabo kitararangira, bityo bigashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Iyo mu mudugudu runaka harimo ikibazo umuntu uri gushinjwa araza agahagarara imbere y'abantu iyo mbaga nyamwinshi ikumva ibyo yireguza, ikabasha guca urwo rubanza ifatanyije n'inteko y'abayobozi bityo bakareba urengana.

Iyo umukozi wa leta we amaze gukura aba agomba guhabwa ikiruhuko cy'izabukuru kuko ushobora gusanga n'intege nke zaramaze kuba nke bityo akazi ntagakore nk'uko bikwiye, ahubwo iyo ahawe ikiruhuko akomeza gutanga ubushobozi bwiwe akiri mu rugo.

Nta muyobozi wishyiriraho amategeko mu gihugu ahubwo amategeko yose abayanditse kuko ari yo agena imigenerwe n'imitangirwarwe ya serivisi zihabwa abantu muri rusange, niyo mpamvu bose usanga mbere yo kugira ngo babikore babanza gusoma.

Yahisemo kwishakira umuntu uzamufasha kuburana urubanza rwe, kubera ko urubanza mbonezamubano ni ikintu kitoroshye udashobora kwiburanira ku giti cyawe, bityo ugomba gushaka umwunganizi mu by'amategeko akagufasha.

Meya w'akarere kacu ubwo hari ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa, we yagerageje kutwereka yuko bibujijwe gutanga ruswa. Kubera ko iyo uyitanze yaba uyitanga ndetse n'uyakira bose bahanwa kandi kimwe.

Sosiyete y'ubwishingizi mu Rwanda izwi nka sonarwa, ni imwe muri sosiyete zikunda gukora ibintu biri mu mucyo, aho usanga iyo hari icyangombwa runaka ukeneye bakikwandikira bakakiguha, igihe cyose wabanje kubereka cyangwa kubazanira ibisabwa.

Si byiza ko amafoto y'umuyobozi cyane ushinzwe gutanga serivisi ku baturage ahishwa kuberako abaturage baba bakeneye kumumenya bakamenya uwo bakorana nawe kugira ngo igihe cyose bibaye ngombwa bage bamenya uwo babaza bamenye nuwo bayoboka.

Igihe cyose iyo hari umuntu ukekwaho ibyaha leta iramufata ikamufunga gusa ko iyo imaze kumufunga ibimenyesha rubanda kugira ngo nabo bamenye amakuru y'ibyabaye ku muvandimwe wabo.

Akenshi abanyarwanda ntibakunze gusobanukirwa akamaro k'igazeti ya leta, ariko bamenye neza ko ariho haba hakubiyemo amategeko abagenga, barushaho kuyiha agaciro abenshi bakiga ibikubiye muri iyo gazeti niyo mpamvu abantu bose bakwiye kubihugukira.

Amagororero menshi agenda ashishikarizwa kubahiriza uburenganzira bwa muntu nubwo bwose abafungiye muri ayo magororero baba baragiye bakora ibyaha bitandukanye ,ariko nabo baba bafite uburenganzira bubagomba kuko nabo baba ari ibiremwamuntu.

Rimwe na rimwe leta igicishamo ikagira ibiganiro igenera imfungwa n'abagororwa kugira ngo babashe guhinduka no gukosora imitekerereze yabo, kuko iyo bitabaye ibyo usanga bamwe na bamwe batekereza ko barenganye bityo naho bari ntibabashe kuhakura inama zibubaka.

Imfungwa n'abagororwa nubwo bwose baba bafungiye mu magereza atandukanye, ariko na bo bagira uburenganzira bwa muntu kuko hari ibintu byinshi bibagenewe, babasha guhabwa nubwo baba bari muri gereza kandi bakarushaho gufatwa nk'abantu.

Abasirikare bakomeye iyo bamaze gukura batangira guhabwa ikiruhuko cy'izabukuru kugira ngo babashe kujya kuruhuka bagashimirwa umwe mu muhate bagize mu gukorera igihugu, ugasanga bamwe na bamwe babasha guhembwa amafaranga abafasha mu zabukuru.

Yafashe ifoto y'umuyobozi ayimanika mu nzu ye mu cyumba kubera ko yumvaga uwo muyobozi ariwe uzamubera uw'icyitegererezo buri uko abyutse akajya ayirebaho bitewe nuko yabonaga yatangaga serivisi nziza ayihereza abaturage .

Umuco wo gukora inama abaturage bagahurira hamwe, uracyari umwe mu mico ikomeje kuranga abanyarwanda kubera ko inama zitangazwa, abayobozi babo bakaza bagahurira hamwe bakabasha kujya inama bakabasobanurira muri bimwe bibagomba, bityo imiyoborere ikarushaho kugenda neza.

Iyo harimo hacibwa urubanza cyangwa se ikindi kintu gituma ushinjwa n'ushinja bahurira hamwe, usanga bashyizemo intera hagati yabo kugira ngo babashe kumvikana ariko banashobore kuza kubahana kuko haba hakenewe umutuzo.

Abacamanza ni abantu bakwiye kubahwa, kuko bakora akazi gakomeye cyane katakorwa na buri umwe wese; cyane ko baba barafashe umwanya muremure bakiga neza ibyo bakora, bityo bakabikora kinyamwuga kugira ngo barusheho gutanga serivisi nziza kandi zinoze.

Mu Rwanda usanga buri karere polisi igiye ifitemo icyicaro gikuru cyayo mu rwego rwo kwegereza serivisi nziza abaturage, aho iyo uhuye nikibazo bikananirana ku rwego rw'umurenge wegera urwego rwa polisi ku rwego rw'akarere.

Iyo hari ahantu habaye ikibazo cy'umutekano muke cyangwa se hari impanuka haba ari mu muhanda cyangwa se ahandi hantu hatuwe n'abantu polisi y'igihugu yihutira gutabara kugira ngo ibashe gukumira ikindi cyago icyo aricyo cyose.

Ubwirinzi bw'inkongi y'umuriro buba bugomba gucungirwa hafi bityo buri nyubako yose iba igomba kuba ifite icyuma cyifashishwa bazimya umuriro igihe cyose ahantu hatewe n'inkongi ni itegeko rero ko buri kigo cyose kiba gifite icyo gikoresho.

Ubuzima bw'abantu usanga bwitabwaho cyane, kubera ko iyo ahantu hateye inkongi y'umuriro w'amashanyarazi, usanga leta yohereza abakozi bayo, bakajya kuzimya inkongi ubuzima bw'abantu butarahagendera.

Polisi y'igihugu usanga ahantu henshi igiye ifite ibyicaro bigiye bitandukanye, mu rwego rwo kwegereza abaturage serivise nziza kandi zinoze. Ni yo mpamvu iyo uzikeneye ugenda ukajya mu nzu yabo, kuko haba hariho ikirango cyabo.

Mu rwanda hagenda hakazwa ingamba z'umutekano aho usanga imodoka ya porisi iba iri kuzenguruka ahantu hatandukanye mu rusisiro ikarushaho kugenda ireba uwaba ari gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko kugira ngo ahanwe.

Ahantu hose hari inyubako zihuza abantu benshi, haba hagomba kujya igikoresho cyifashishwa hazimya umuriro kizwi nka kizimyamwoto, kubera y'uko utamenya igihe runaka inkongi ishobora gutera aho hantu, bityo ugasanga ubuzima bwa benshi burahatikiriye.

Igihe cyose hateye inkongi iyo ari inzu ngari, usanga harimo ibikoresho byifashishwa hazimywa umuriro, ariko ibyo bikoresho bikaba bitangwa na leta kubera ko bihenze cyane ibigo bimwe na bimwe bitashobora kubyigurira.

Iyo ugeze kwa muganga cyangwa se ku bigo by'amashuri, usanga barashyizeho ibyuma bikomeye byifashishwa bazimya umuriro kubera ko baba batazi isaha n'umunsi inkongi y'umuriro ishobora kubatera bityo bakabishyira hafi.

Usanga ahantu henshi hari amafoto y'umukuru w'igihugu amugaragaza arimo atambuka imbere y'abayoborwa bose, abenshi bamukomera amashyi abenshi bamugaragariza ko bamwishimiye bitewe n'uko bamukunze.

Mu rwego rwo kwihutisha gahunda y'iterambere ndetse no gutanga serivisi zinoze, usanga leta y'u Rwanda ishyiraho imihigo ya buri mwaka, aho usanga buri karere gaharanira kwesa imihigo kihaye by'umwihariko mu gutanga serivisi zinoze.

Igihe cyo kwamamaza ishyaka rya FPR, abaturage bari babyishimiye cyane ko wasangaga abenshi ari n'abanyamuryango baryo, bityo bagashishikariza bamwe batandukanye nabo kwiyunga nabo bagakora ishyaka rimwe.

Igihe cyose umuyobozi arimo atanga ikiganiro imbere y'abantu abagomba kuba afite mikoro ndetse hari n'abantu bashinzwe kumufotora bakanamufatana na videwo kugira ngo baze kwereka abandi batabashije kugera ahongaho uko ibintu byari byitwaye.

Abayobozi akenshi na kenshi usanga aribo bantu bihaye intego yo gutanga serivisi nziza kubera ko intego zabo biba ari ugushimisha abaturage cyangwa se abandi bantu babagana bakabakorera ibibanyuze bityo bakarushaho kwishima.

Usanga a kenshi na kenshi iyo abantu bari mu munsi mukuru w'umuryango wa efuperi inkotanyi usanga abantu benshi bahawe utudarapo cyangwa se ibirangantego bigaragaza ishyaka barimo bamamaza kugira ngo rikundwe na bose.

Igihe cyo kwiyamamaza, umukandida n'ishyaka rye bavugaga aho bagomba kuziyamamariza, bagasanga abaturage babategereje, bakumva imigabo n'imigambi uwo mukandida afite kuzageza ku baturage igihe cyose yabaye umuyobozi.

Iyo ukurikirana ikiganiro cya perezida wa repubulika, uba ugomba gutega amatwi imbwirwaruhame arimo atanga, kugira ngo wumve ubutumwa agenera Abanyarwanda, kuko akenshi na kenshi usanga ari ibifitiye inyungu Abanyarwanda.

Isura nziza ku bagize umuryango usanga ari isura inezeza buri muntu wese, iyo umugabo kubera ko ariwe ufatwa nk'inkingi ya mwamba y'urugo, abona abagize umuryango bameze neza cyangwa se batekanye, nawe bimufasha kugira amahoro ugasanga ameze neza.

Usanga abakora mu biro bishinzwe kubarura amajwi yavuye mu matora ari abizerwa kuko nibo bagira uruhare mu kugaragariza rubanda nyamwinshi ibyavuye mu matora kandi bakabikora ku rwego rw'uko buri muntu wese ayurwa n'ibyavuyemowo.

Bavuze ko amafoto y'abayobozi bakomeye uyashaka ashobora kuyishyira mu nzu ye akayimanikamo bitewe n'uko akunda uwo muyobozi kubera ko byagaragaye ko hari abenshi baba bashaka kujya babareba kenshi gashoboka.

Iyo igikorwa cy'amatora cyegereje ngo kibeho mu gihugu, usanga amashyaka menshi agira uruhare muri icyo gikorwa, kubera ko buri shyaka usanga rifite umukandida bityo mbere y'uko amatora akorwa, hakabanza hakabaho igikorwa cyo kwamamaza.

Igihe cyose usanga abayobozi bashishikarizwa kwegera abaturage mu rwego rwo kurushaho gutanga serivisi nziza kandi zinoze, bityo abaturage bakishimira ibikorwa byiza bakorerwa n'ababayobora, kubera ko igihe cyose usanga babakenera ariko ntibababone.

Kirazira gukwirakwiza uko wiboneye ifoto y'umuyobozi uwo ari we wese kuko iyo foto ishobora gufatwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bagasanga bakoresha iyo foto mu buryo butari bwiza bagaserereza uwo muyobozi, bikamwicira izina cyangwa se bikangiriza akazi ke.

Ifoto yose y'umuyobozi uwo ariwe wese igihe cyose yafotowe arimo atanga ikiganiro, iba igomba kubikwa neza kandi ntihabwe buri umwe, kugirango idakoreshwa mu buryo bumwicira izina bityo akazi kakangirika.

Igihe cyose ugiye gutora uba ugomba kwitegereza neza ukareba ahari umuntu wifuza y'uko yazakubera umuyobozi, ukaba ariwe ushyira ikirangantego cyawe bityo ugatora aho ugomba gutora ukirinda akajagari mu mitorere.

Hatitawe ko umuyobozi ageze mu zabukuru igihe cyose akenewe araza agatanga ikiganiro cyangwa se inama akenshi akaziha urubyiruko cyangwa se abandi bayobozi bakiri bashya bataramenyera neza inshingano batangiye.

Abantu bakora imirimo y'imbaraga by'umwihariko abakora imirimo yo gupakira ibicuruzwa bitandukanye mu mudoko, bagirwa inama yo kubikorana ubwitonzi bwo ku rwego rwo hejuru kubera ko bishobora kurangira bahutaje ubuzima bw'umwe mubari aho hafi.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange usanga zica ahantu henshi hatandukanye zigamije kugeza abantu bose aho bataha kubera ko baba bataha mu byerekezo bitandukanye bityo serivisi zitangwa n'izo modoka zikaba nziza kurushaho.

Iyo utwaye imodoka kirazira gucana amatara maremare, kuko ushobora kubangamira urujya n'uruza rw'abantu cyangwa se ugahuma amaso y'abanyamaguru bambuka cyangwa bakoresha umuhanda. Bityo bigatuma ubabangamira bigateza impanuka, kuko batabasha kubona neza imbere habo.

Imodoka zitwara imizigo ziba zigomba gusuzumirwa ubuziranenge nibura buri mezi atandatu, hagasuzumwa niba zitashobora guteza icyago, kubera ko ziba zitwara ibintu biremereye cyane, kandi zikabikorana urugendo rurerure.

Ubwikorezi mu mujyi wa Kigali bwaroroshye kandi busigaye bukorwa ku buryo bwihuse, binyuze mu buryo usanga leta yarafashe ingamba zo korohereza abatwara abantu n'ibintu, ku buryo na moto z'amapine atatu zikoreshwa kandi zigatanga umusaruro.

Igihe cyose ubonye imodoka itwara sima, imwe bagiye gukoresha bubaka uba ugomba kuyireka igahita kuko biba bikenewe cyane.

Abamotari igihe cyose batwaye moto mu muhanda bagomba kwitwararika kubera ko nabo bari mu bagomba gutanga serivisi nziza, bakaziherezayo batwaye bityo bakarushaho kubagezaho bagiye amahoro.

Ubu ngubu aho ibintu bigeze moto z'amapine atatu zemerewe gutwara imizigo ariko itazirushije ubushobozi, aho usanga imbere aho umwanya ugomba gutwara yicaye haba hari undi mwanya w'umuntu umwe, ugomba kujyana na we amufasha mu kazi ke.

Ubungubu mu rwego rwo kurushaho gutekanya abantu bakoresha umuhanda haba abakoresha ibinyabiziga cg se abakoresha amaguru, imodoka iyo ari yo yose igihe igeze ku mirongo yagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru igomba kwitonda abanyamaguru bakambuka.

Ubwikorezi mu Rwanda bwatejwe imbere, kugeza ubwo na moto z'amapine atatu zemerewe kuza gukoreshwa, bityo kuvana ikintu ahantu hamwe ukijyana ahandi, ntabwo bikiri ingorabahizi nkuko' byahoze mu myaka yashize.

Leta y'Urwanda usanga igerageza kuvugurura imihanda, akenshi na kenshi ya nyabagendwa, kuko ikoreshwa n'abantu, bityo iyo itavuguruye birababangamira, bigatuma ibijyanye n'imigenderanire bitagenda neza ku rwego abantu babyifuzaho.

Imodoka z'amabisi ni imodoka zikoreshwa kugira ngo ingendo zorohe hagati y'abantu bava mu gace kamwe bajya mu kandi. Bityo izo modoka zikaba zisabwa kugenda amapine akora hasi kuko ntibishoboka yuko imodoka wayijyana icuritse.

Byamaze kugaragara ko imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange izi zizwi nka kwasiteri ziri mu modoka zikunzwe cyane n'abanyarwanda, kubera ko usanga zitwara abantu benshi bakarushaho kugera aho bagiye vuba kandi k'umutekano wabo ukaba urinzwe.

Abanyonzi ni bamwe mu bantu bakoresha umuhanda ariko ugasanga batagaragaza kwitwararika, aho usanga akenshi bagenda bafata ku makamyo cyangwa se ugasanga imodoka ziriya nini z'amabisi zirabagonga kubera ko bo ubwabo batabasha gucunga neza uko bagomba gukoresha umuhanda.

Imirimo yo gutwara imodoka nayo ni imirimo itunze abayikora kubera ko abayikora hari amafaranga bahabwa nk'ubwishyu kuri ako kazi, bahabwa ayo mafaranga bakayafashisha biteza imbere mu ngo z'abo cyangwa se mu buzima bwa buri munsi.

Mu rwego rwo kugira ngo umutekano wa buri umwe wese mu bakoresha umuhanda wubahirizwe, buri muntu wese ategetswe kugenda akoresha umuhanda yibuka gusigamo intera, kandi akabasha kunyuranaho na mugenzi we. Yaba ari imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse n'izitwara imizigo.

Abatwara imodoka kenshi mu mihanda ya kigali baba bagomba kubahiriza uburenganzira bw'umunyamaguru kugira ngo babashe no kureka abanyamagare batambuke, kuko nabo baba basangiye umuhanda nabo kandi bose batwaye ibinyabiziga.

Imodoka zikora imirimo y'ubwikorezi zigomba kuba ari imodoka zifite imbaraga nyinshi cyane kubera ko usanga akenshi zikunda koherezwa mu misozi cyangwa se zikajya mu birombe kwikoreraraho ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi rimwe na rimwe ugasanga zishyira mu kaga abazitwara.

Imodoka z'imizigo zirafasha cyane kuko byoroshya ubuhahirane, hagati y'agace kamwe cyangwa se akandi bityo bigatuma abantu babasha kubona ibyo kurya bitabagoye, kubera ko imodoka z'imizigo zibizana ari byinshi akenshi na kenshi bigatuma ubuzima bwabo bworoha.

Bamubwiye ko adafite uburenganzira bwo kongera gusubira mu muhanda ngo atware ikinyabiziga igihe cyose atarabona uruhushya rumwemerera gutwara ibinyabiziga mu buryo bwa burundu, kuko igihe cyose yongeye kubigerageza azahanwa n'amategeko.

Imigenderanire hati y'abantu bava mu gace kamwe bajya mu kandi yaroroshye, kubera ko usanga hari imodoka nyinshi ziba zigamije gutwara abantu zibakura mu gace kimwe zibajyana mu kindi, bityo ugasanga bageze aho bagera ku gihe kandi bitababangamiye.

Ubwikorezi ndetse n'imigenderanire hagati y'abantu bava mu gace kamwe bajya mu kandi ubu byaroroshye, kubera ko hari imodoka nini zizwi nk'amakamyo, zifashishwa hatwarwa ibicuruzwa ndetse n'imizigo, bityo abantu bagatekana.

Igihe cyose washakira gukora urugendo mu gihugu cy'u Rwanda birashoboka, kubera ko usanga hari imodoka zishinzwe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hatitawe ku masaha, cyangwa se wabona imodoka bitari gushoboka ugatega moto.

Igihe cyose urimo ugenda cyangwa se ugiye kunyuranaho, uba ugomba kwitonda kugira ngo udakoresha imodoka ngenzi zawe impanuka, bityo ugasanga umutekano wo mu muhanda urahungabanye, ni yo mpamvu abashoferi baba bagirwa inama yo kwitwararika.

Abashoferi b'amakamyo bagaragaje ko nabo bahabwa serivise nziza, kubera ko usanga polisi y'igihugu akenshi ibaherekeza, ikabarinda abajura, ikabageza henshi mu ho bagiye, cyangwa se hafi yaho.

Inshuro nyinshi abanyonzi bagirwa inama yo kwirinda gupakira imizigo irusha ubushobozi igare batwaye, kuko ibyo ni bimwe mu bikurura impanuka zo mu muhanda kubera ko usanga igare ridafite ubushobozi n'imbaraga zo kwikorera iyo mizigo iremereye.

Imodoka zitwara imizigo igihe cyose zimaze gupakirwa ibyo zigomba gutwara, ziba zigomba kuba zifite undi muntu uziherekeza kugira ngo igihe cyose habayeho ikibazo haze gukumirwa abantu baza kuzisahura, bityo bigahombya ba nyir'imizigo.

Akenshi na kenshi abana, cyangwa se abanyonzi bagirwa inama yo kudafata ku modoka z'imizigo yaba ntoya, cyangwa se ari ziriya nini kubera ko bikurura impanuka zikunze gutwara ubuzima bw'abantu akenshi na kenshi mu gihe cy'imvura.

Mu muhanda igihe cyose uri gukora urugendo, uba ugomba kwitwararika waba utwaye ikinyabiziga cyangwa se uri n'amaguru kugira ngo utabangamira urujya n'uruza rw'abantu bava ahantu hamwe bajya ahandi. Cyangwa se igihe ugiye kunyuranaho imodoka ukabanza ukareba koko ko nta kaga byateza.

Bitewe n'uko imodoka z'amakamyo zikorera imizigo iremereye biba bigomba kuba hari umuntu ufasha umushoferi gutwara icyo kinyabiziga igihe cyose umushoferi ananiwe bityo bakagenda bakiranwa bigatuma urujya n'uruza rworoha.

Yahisemo kwitwararika igihe cyose abona hari ikinyabiziga kimuri imbere by'umwihariko ibitwara imizigo cyangwa ibitwara abantu. kubera ko ngo atazi igihe cyangwa se isaha impanuka zibera bityo agomba kwitwararika.

Imodoka zose zifite ubushobozi bwo gutwara imizigo igihe cyose zitwaye birabujijwe kurenzaho abantu mu rwego rwo kubahiriza umutekano cyangwa se ugutuza kw'ikiremwamuntu niyo mpamvu usanga iyo wahisemo gutwara imizigo ari yo utwara.

Nyuma y'uko hagaragaye ikibazo cy'imodoka za hoho aho byaje gusangagwa zikunze kubarwa nk'imodoka zitagira feri, haje gufatwa ingamba zo kujya bazipakiramo ibintu bike bingana n'ubushobozi bwazo aho kugira ngo bazipakire byinshi.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi hifashishijwe amapikipiki baje kugaragaza ko nako ari akazi gashobora guteza imbere ugakora igihe cyose agakora agashyizeho umutima kandi akabasha kwirinda ibishuko bityo iterambere rye rikabasha kugera kurundi rwego.

Ubwikorezi bw'imisenyi imwe yifashishwa mu bwubatsi ntabwo bukiri ingorabahizi kuko hari imodoka nini kabuhariwe zishinzwe kwikorera ibiro byinshi by'umusenyi bityo ugasanga umuntu ugiye kubaka awubonye bitamugoye cyane.

Igihe cyose ukeneye gukora urugendo uba ugomba kwitabaza ziriya modoka zitwara abagenzi rusange, kugirango bikuririnde gutakaza amafaranga menshi murugendo rwawe, bityo amwe ukayazigama ukarushaho kwiteza imbere.

Banki y'igihugu ya beka yagerageje kwegereza abaturage serivise zayo, kubera ko usanga irushaho kugenda yamamaza ikoresheje imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kugira ngo imenywe na bose, bityo ikoreshwe na benshi.

Mu Rwanda hagerageje gutezwa imbere gahunda ya wayaresi, aho usanga ibigo byinshi by'amashuri bigira uburenganzira bwo gukoresha interineti ya wayaresi, bityo abana bakarushaho gukora ubushakashatsi neza bagatsinda bakarushaho kuba abahanga.

Mu rwego rwo kubahiriza ihame ry'uburenganzira bwa muntu usanga mu rwanda hari ibibuga byinshi by'imyidagaduro aho usanga abantu benshi bajyayo bagakina bakabasha kuruhuka, akazi kabo kakagenda neza ka buri munsi.

Ahantu hose hatangirwa serivisi zihabwa abaturage by'umwihariko ahakunze guhurira abaturage benshi usanga hari ikibuga cyangwa se bafite urubuga bagomba guhagararamo kugira ngo bose igihe bategereje hatagira ubangamira undi.

Mu rwego rwo gutanga serivise nziza usanga leta yaragiye igerageza kubaka ibibuga bitandukanye, ikagerageza no gushyiramo imitako kugirango abanyarwanda bakomeze baryoherwe na gahunda zigiye zitandukanye zibera muri ibyo bibuga by'imyidagaduro.

Ibyapa akenshi nabyo usanga ari ingirakamaro kubera ko biyobora abantu batandukanye bikababuza kubaburira igikorwa runaka kiri kubera aho berekeza kugira ngo nabo bashobore kuba babasha kwirinda bityo bataza kuba bahura n'icyago bageze imbere.

Igihe cyose ageze ahantu hari ibyapa byashyizweho na leta bimuburira ko agomba kwitwararika, agerageza kubyubahiriza kubera ko igihe cyose atabikoze azi neza ko bishobora gushyira mu kaga ubuzima bwe, ugasanga arushaho kwitwararika igihe cyose ageze aho hantu.

Byaje kugaragara ko n'abanyamaguru bagomba kwiga neza amategeko y'umuhanda, by'umwihariko bakiga ibyapa bibayobora kuko usanga na rimwe na rimwe bagora abatwara imodoka, kubera ko nabo usanga batazi aho bagomba kunyura.

Ahantu hose mu bihugu byose haba hari ibyapa biyobora abagenzi hari ibi ubagaragariza y'uko bagiye kugera ahantu hari inkomane bagomba kunyuramo bazengurutse, yewe bikanabagaragariza ibirometero runaka birimo kugira ngo babashe kwitegura hakiri kare kunyura muri izo nkomane.

Igihe cyose waba utwaye ikinyabiziga cyangwa se ugenda n'amaguru iyo ubonye icyapa mu muhanda kigaragaza ko hari imirimo y'ubwubatsi iri gukorerwamo uba ugomba kwitwararika kuko uba wabanje kwerekwa integuza ikubwira uko imbere bimeze.

Ibyapa biburira cyangwa se ibyapa bibuza, ni ibyapa bigomba kwitabwaho igihe cyose ukoresha umuhanda kuko igihe cyose utabyitayeho bishobora kukuzanira ibyago kubera ko biba bigaragaza icyago runaka gishobora kuba kiri imbere mu muhanda.

Abakoresha umuhanda mu Rwanda by'umwihariko abatwara ibinyabiziga bagomba kuba bazi neza amategeko agenga umuhanda kugira ngo ngo barusheho kubahiriza ibyapa bibayobora, iyo batazi kubahiriza ibyo byapa bashobora guteza impanuka ku buryo bworoshye.

Iyo ugeze aho igihugu kimwe gihana imbibi n'ikindi, uhasanga ibyapa bikuyobora bikubwira ko ugiye kwinjira mu kindi guhugu bityo ushobora gusubira inyuma cyangwa ugakomeza igihe cyose wumva utiteguye kwinjira mu gihugu cy'abaturanyi.

Ukigera mu Mujyi wa Kigali bitewe n'aho ugeze, uhasanga ibyapa bikuyobora icyerekezo runaka ushaka kujyamo cyangwa se aho ushaka gukorera, kubera ko hari ibyapa byagiye bishyirwamo nyuma yo gusanga hari abanyamahanga baza mu Rwanda ingendo zikabagora.

Abantu benshi ntabwo bakibibonamo imbogamizi kuko usanga ibyapa bibayobora mu muhanda babibona, kubera ko nayo ni gahunda leta yashyizeho yo gushyira ibyapa biyobora abagenzi ku muhanda, nyuma yuko bigaragaye ko abantu benshi bayobaga igihe cyose hari aho bagiye.

Ntabwo bigitera urujijo kumenya ngo ndambukira he, kuko hari ibyapa bitandukanye bishinzwe kuyobora abanyamaguru, bikabereka ko aho bageze ari yo nzira yabo yabugenewe, bityo bemerewe kwambuka umuhanda, bakajya mu kindi gice bitabagoye.

Igihe cyose ukoze ikosa ryo kubangamira umunyamaguru mu migendere ye, ntabwo wabona urwitwazo keretse iyo uri umuntu wavuga ngo ntabwo ubona, kuko ibyapa bigaragaza ko aho abanyamaguru bambukira uhageze biba bigaragara.

Abagenzi mu Rwanda bamaze gusobanukirwa ko iyo ushaka kugenda n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ugomba kujya ku cyapa cyabugenewe zihagararaho cyangwa se ukajya muri gare kuko ushobora kuyibona bitakugoye.

Iyo ufite ubumenyi ku byapa byo mu muhanda cyangwa se amategeko y'umuhanda, ntabwo bikugora kubera ko ahantu hose usanze icyapa umenya ibyo gishatse kuvuga bitakugoye, bityo ukaba utandukanye n'undi muntu uwo ari we wese udafite ubwo bumenyi.

Ibijyanye n'ibimenyetso biyobora abatwara ibinyabiziga mu muhanda byashyizweho umucyo aho usanga ibyapa biyobora abagenzi haba abakoresha imodoka cyangwa se abakoresha amaguru bimanitse imbere yabo mu ntera yagenwe ku buryo buri wese abibona.

Abashoferi b'amamodoka, amagare ndetse n'imodoka nini, bamenye ko gukoresha gahunda yo kubahiriza ibyapa byo mu muhanda, bishobora kuba ari imwe mu mpamvu yakwifashishwa hagamijwe kugabanya impanuka zibera mu muhanda binyuze mu kutita ku mategeko awugenga.

Ibyapa biyobora abagenzi mu rwanda bigenda bishyirwaho umucyo kugira ngo hirindwe ko haba hari umunyarwanda cyangwa umunyamahanga ushobora kuyoba bityo akabura icyerekezo cyaho agiye niyo mpamvu usanga mbere yo kugera ahantu runaka haba hari icyapa kibigaragaza .

Igihe cyose ugeze ahari inyubako ndende by'umwihariko ahatangirwa serivisi zihabwa abantu usanga baragiye bahashyiramo ibyuma cyangwa se ingazi zifasha abantu kuzamuka bajya hejuru aho bari bubonere izo serivisi .

Mu rwego rwo kubungabunga ubutaka cyane ko ubutaka butakiboneka byoroshye, abantu basigaye barateje imbere gahunda yo kubaka inzu zigeretse, kugira ngo babashe kubungabunga ubutaka bwabo, babashe no kubaka ahantu hato kandi bubake inzu ngari.

Usanga mu bijyanye no gutanga serivise zinoze igihe cyose hari inyubako itangirwamo izo serivise, hagomba kuba hari n'aho umuntu wese ashobora guhagarika imodoka ye igihe cyose agiye kwaka izo serivise.

Ibiro ndetse n'inyubako izo arizo zose zibikwamo ibikoresho byabo iby'ikoranabuhanga cyangwa se ibindi bikoresho bisanzwe, ni inyubako ziba zigomba kurindwa bikomeye kandi zigacungirwa umutekano kubera ko ziba zibumbatiye ubukungu bukomeye.

Imidugudu myinshi mu Rwanda usanga igiye ifite ibikoresho bibaranga. Igihe cyose uhageze ushoboye gusoma, ushobora kumenya ko ugeze ahantu hamwe cyangwa se uvuye ahandi. Bityo bikagufasha kumenya igihe ukoresha ujya ahantu runaka.

Buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutura aho ashaka, igihe cyose aho agiye gutura hafite icyangombwa kandi hemerewe guturwa, kubera ko ntawakubuza gutura aho ushaka. Ariko nanone ntabwo wemerewe gutura ahashyira ubuzima bwawe mu kaga.

Iyo ugeze mu mugi usanga imodoka z'abantu baje gushaka serivise cyangwa abazitanga ziparitse neza ku buryo zitabangamira abanyamaguru cyangwa se imigendere y'ibindi binyabiziga bigenzi byabo kuko bose baba basangiye umuhanda.

Inyubako zitangirwamo serivisi zihabwa abantu benshi, usanga zikunze kuba ziri ahantu horoheye buri umwe wese kuhagera yaba afite imodoka cyangwa agenda n'amaguru, kubera ko igihe runaka ashobora gukenera iyo serivisi aba akwiye kuyibona.

Abana ku bigo by'amashuri bigiye bitandukanye, bahabwa uburenganzira ndetse n'umwanya wo kujya gukina, aho usanga abenshi bari gukoresha ibyicungo cyangwa se ibyuma bibafasha mu kwidagadura, bakarushaho gusabana hagati yabo, bakarushaho no kongera imibanire myiza.

Inyubako ndende zikunze kuboneka mu mujyi wa Kigali, usanga akenshi zarashyizeho utudirishya tubasha gufasha abarimo kubona umwuka bahumeka kandi mwiza igihe cyose kubera ko umwuka mwiza ari ingenzi, bityo kikaba kizira gukinga ayo madirishya.

Ahantu hose hatuwe n'abantu benshi haba hagomba kuba hafite umuhanda unyurayo kandi bafite n'umuriro w'amashanyarazi kubera ko aba bantu benshi bakenera ibikorwa remezo bitandukanye bityo kugira ngo ugerageze gutanga serivisi zinoze ugomba kubibahereza.

Igihe cyose ugeze mu rusaku cyangwa ahantu hateraniye abantu benshi, uba ugomba kwirinda kandi ugashyira amaso n'amaboko yawe ahakubiye amafaranga yawe cyangwa se telefone yawe mu rwego rwo kwirinda ubujura bwa hato na hato.

Abatwara amapikipiki bababwiye ko bitemewe guhagarara aho ubonye hose cyangwa se gukatira aho ubonye hose kubera ko bishobora guteza impanuka abatwara amapikipiki benshi bagenda barushaho gukoreshwa inama no kubereka ikiboneye cyagakwiye gukorwa.

Iyo umuntu ageze imbere y'inyubako ndende by'umwihariko ariho agiye gushaka serivise runaka agerageza kuhahagarika imodoka ye, ubundi akinjiramo muri iyo nyubako akaka serivise runaka zimujyanye aho hantu.

Mu mujyi aho ariho hose usanga byarashyizweho umucyo, kuko nta muntu n'umwe wakubaka inzu izakoreramo imirimo ibyara inyungu, ngo abure gusiga umwanya imbere y'inyubako ye aho imodoka zitandukanye zizajya zihagarara igihe zishaka serivise.

Abantu benshi batanga serivisi usanga bakunze gukorera muri Kigali ariko nanone urwego rwa leta usanga narwo rukunze gukorera muri, Kigali kubera ko hasa nk'aho ari hagati bityo umuntu wese ukeneye serivisi ashobora kuzibona bitamugoye.

Gahunda yo guhinga igihingwa kimwe mu gace runaka, ni gahunda iboneye kubera ko leta y'u rwanda yaje gusanga ari gahunda ishobora kuba itanga umusaruro, binyuze mu kwita kuri icyo gihingwa kubera ko kiba ari igihingwa kimwe kikabyara umusaruro, ku buryo bugaragara.

Iyo ukoresha umuhanda uri umunyamaguru, ugomba kubanza ukareba iburyo n'ibumoso ukareba ko nta modoka ishaka gutambuka ndetse wabona igiye gutambuka, ukayireka ikabanza igahita aho kugira ngo muze guhurira mu mirongo yagenewe abanyamaguru.

Imigendere mu muhanda iyo umuhanda uri nyabagendwa usanga itagorana kubera ko abakoresha umuhanda wose baba bafite ubumenyi mu bijyanye no gutwara ibinyabiziga bityo bigatuma batabangamirana hagati yabo uko batwaye.

Igihe cyose imodoka iri mu muhanda, haba harimo izindi nyinshi cyangwa se zitarimo, ntabwo umuntu uyiitwaye aba agomba kwirara kuko isaha n'isaha bagenzi be bafatanyije umwuga wo gutwara, bashobora kumusangamo akababangamira.

Iyo umunyamaguru yambuka umuhanda aba agomba kwitwararika akambuka yihuta ariko na none atiruka ibyo ngibyo akabikora yabanje kureba iburyo cg se ibumoso ko nta kinyabiziga kiri guturukayo n'ibiri guturukayo bikaba byitonda ku muvuduko muke.

Amagare asigaye yorohereza abantu ingendo ndetse agafasha abantu benshi kuva ahantu hamwe bajya ahandi kubera ko abanyeshuri bakunze kuyakoresha bava cyangwa bajya ku ishuri, ugasanga abandi bayakoresha batwara imizigo ndetse no ku ngendo za hato na hato.

Mu rwego rwo koroshya imigenderanire ndetse n'imihahiranire hagati y'uduce tumwe tugiye dutandukanye, usanga hagenda hubakwa ibiraro mu muhanda aho usanga imodoka zimwe zishobora guca hejuru izindi zigaca hasi kandi ingendo zigakomeza.

Mu Rwanda abakoresha umuhanda bagerageza kubahiriza uburenganzira bw'abanyamaguru, aho babasha kubareka bakambuka mu mirongo yabo yabugenewe, keretse igihe cyose ubashije kuba watanze mu murongo nibwo ushobora kwambuka ariko igihe utamutanzemo urareka akabanza agatambuka.

Abamotari bagirwa inama yo kwitonda igihe cyose bagiye guhinguka ahantu hahurira imihanda irenze umwe, kubera ko bishobora guteza impanuka igahitana ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abandi, bityo bakaba bagomba gucunga neza igihe cyose bagiye guhinguka mu ihuriro ry'imihanda.

Mu Rwanda ni hake wasanga imihanda itarakorwa neza, ariko naho itarakorwa, usanga leta igerageza gukora uko ishoboye kubera ko kugeza ibikorwa remezo byiza kandi binoze kuri buri umwe ari inshingano zayo.

Kigali ni umwe mu mijyi isukuye dufite muri Afurika, kubera yuko usanga noneho mu buryo bw'imikoresherezwe y'imihanda ibinyabiziga byose bigenda nta kibangamira ikindi, amamoto aragenda yaba ay'imizigo ndetse n'ay'abantu, imodoka zigahita ku buryo butekanye.

Igihe cyose ageze ahagabanyije imirongo y'umweru mu muhanda, imwe iburira abanyamaguru ko aricyo gice bagomba kwambukiramo, aritonda akagabanya umuvuduko w'imodoka ye kugirango atabangamira urujya n'uruza rw'abanyamaguru.

Si abatwara moto gusa mu buryo bwa rusange ahubwo n'abakoresha imodoka baba bategetswe kubahiriza ibimenyetso bimurika bimwe biyobora abantu bigatuma mu muhanda hatabamo akavuyo ndetse no kugongana bya hato na hato.

Gutanga amahugurwa biri muri bimwe byatumye impanuka zo mu muhanda zigabanyuka, kubera yuko usanga abantu bakoresha umuhanda basigaye bitwararika bakubahiriza intera yagenwe, yewe n'igihe abashoferi bageze aho abanyamaguru bambukira bakabaha umwanya.

Igihe cyose abatwara amagare bamwe bazwi nk'abanyonzi bagerageje gukora amakosa mu muhanda, baratwarwa bakajyanwa na polisi ikabajyana aho igomba kubajyana ikabagira inama ku bijyanye n'imyitwarire yo mu muhanda.

Mu Rwanda hemejwe ko hagomba gushyirwaho ingamba zigomba gutuma abantu bose bakoresha umuhanda bawukoresha batekanye, kuko baje gusanga kudashyiraho izo ngamba bishobora gukurura impanuka ubuzima bw'abantu benshi bukahatikirira.

Polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda igerageza kuburira abantu gukoresha amatara magufi kugira ngo bareke kubangamirana hagati yabo, kuko bose baba bakoresha umuhanda igihe bidakozwe gutyo, bishobora guteza impanuka kuko buri umwe aba atabona neza imbere he.

Abenshi bagenda bahitamo gukora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bitewe n'uko ngo bagiye babona hari abagiye bakizwa n'uwo mushinga bityo bakiteza imbere ugasanga baguze inka ubutaka inzu ndetse n'ibindi.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda kizwi ku izina rya Ara esesibi, kigenda kirushaho kwifuriza abanyarwanda ibiruhuko; kubera ko ari kimwe mu bigo bikunzwe n'abanyarwanda, bitewe na gahunda kigeza ku banyarwanda.

Iyo ugeze mu mujyi wa kigali, uhasanga ibyapa bitandukanye biyobora abagenzi, cyangwa se abashoferi bifashisha kugirango barusheho kubahiriza amategeko y'umuhanda. Niyo mpamvu iyo ufashwe warenze kuri ibyo byapa witegura ibihano.

Leta y'u Rwanda yagerageje kugabanyiriza imisoro imodoka zitwara imizigo bitewe nuko ziba ziva kandi zikajya ahantu kure bityo bagasanga ikiguzi cy'amazutu bakoresha kiri hejuru bagahitamo kuborohereza imisoro.

Utitaye ko mu muhanda nta bindi binyabiziga birimo uba ugomba kubahiriza umuvuduko wagenwe kandi ukagerageza kureba neza ko ikinyabiziga cyawe cyujuje ubuziranenge, kugira igihe bibaye ngombwa ko uhagarara bitunguranye ubashe gufata feri.

umuhanda ukoreshwa n'abantu benshi batandukanye, ni yo mpamvu usanga isuku yawo yarashyizwe imbere, kugira ngo buri muntu wese unyuzemo abashe kubona umucyo wawo, ugasanga buri umwe arashishikarizwa gutoragura ikintu cyose abonyemo.